Ibikinisho by'abana hari abantu imbere yabyo bambaye imyenda igiye itandukanye; umuhondo, umweru ndetse na shokora.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanya, kawunga, amavuta, amasukari ndetse n'ibindi bitandukanye, ifite inzugi z'umweru ndetse iruhande rwayo hari geti isize ibara ry'umukara.

Kandagira ukarabe ni imwe mu idufasha kunoza isuku, iriho indobo isa oranje ndetse na kabase, iri ahantu hari indabyo.

Igishushanyo cy'abana bagera kuri bane, umwe muri bo arimo gusobanurira bagenzi be inkuru yashushanyije. Abandi bana barishimye kandi bamuteze amatwi.

Amakayi menshi ari mabara atandukanye. Hari afite amabara y'umutuku n'umweru ndetse n'afite amabara y'umuhondo n'umweru arambitse kumeza afite ibara ry'umukara.

Igipupe cyicaye mu kabage gafite ibara rya move. Gifite amazuru afite ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Gifite n'amatwi ameze nk'urukwavu. Hirya yaho hari urukuta.

Umwana wambaye agapira gafite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi. Afite agakoresho kifashishwa mu gusiga irange, arimo kwigishwa uko ushobora gusiga irange kurukuta.

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'amadirishya y'umukara, ishushanyijeho ibishushanyo bigera kuri bitatu ikigaragaza inyama, ikigaragaza ingorofani ndetse n'ikigaragaza isahani bariraho.

Umugabo wambaye agapira gasa oranje ndetse wambaye n'agapfukamunwa afite imisatsi ya direde ahagaze mu cyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kwigisha abana, urugi rurafunguye rufite ibara ry'umuhondo handitseho ijambo ati.

Ubwogero buzwi ku izina rya Piscine, burimo abana bagiye batandukanye. Bicaye ku bikoresho bibafasha koga kugira ngo batarohama muri aya mazi.

Ibishushanyo bigera ku ikenda harimo: igishushanyo kigaragaza ikote, ikigaragaza ipantalo ndetse n'ikigaragaza igipupe, abana bakunze gukinisha. Kibamara irungu mu gihe bari bonyine.

Inyubako ifite imiryango igera muri ine, ifite ibara ry'umweru, ibiri muri yo irafunguye ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, hanze hateretse aka etajeri gafite ibara ry'umweru, mo imbere harimo abantu baje kugura ibyo bakeneye.

Inyubako ifite irangi ry'umuhondo, ishushanyijeho ibikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Hashushanyijeho umweyo ndetse n'ibase, bidufasha mu rugo mu bikorwa bigiye bitandukanye; harimo kumesa imyenda, koga ndetse no gukubura kugira ngo ahantu dutuye hakomeze gusa neza.

Igikoresho cyifashishwa n'abanyeshuri bakibikamo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu myigire yabo, harimo: amakereyo, amakaramu, amarate ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ibikoresho byifashishwa mu bwubatsi ndetse n'ububaji, harimo urukezo ndetse n'igikoresho bakoresha bari gukata imbaho, bishushanyije ahantu ku rukuta.

Igishushanyo gikoze impande enye zingana, mo imbere harimo ibiziga bibiri, uruziga rumwe rurimo inyuguti ya a, urundi rurimo inyuguti ya b, hepfo yaho gato ibumoso, hariho inyuguti ya u.

Icyapa kiriho igishushanyo cy'umwana wambaye ingofero, inyuma y'uwo mwana hari anvelope kado isa umutuku, iruhande rwabyo hari ikindi gishushanyo gifite amabara y'umuhondo, icyatsi ndetse na bulusiyeli.

Abamama babiri ndetse n'umugabo umwe bose bambaye udupfukamunwa, barahagaze bari guhererekanya raputopu, inyuma yabo hari inyubako zubakishije amatafari ahiye.

Igikoresho cyifashishwa n'abanyeshuri mu kubika ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu myigire yabo, harimo amakaramu, amarate, amakerereyo, gome ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Igikoresho gikoreshwa n'abanyeshuri, bakibikamo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo amakaramu, amarate ,kereyo, gome ndetse n'ibindi bitandukanye, kiri ahantu ku meza. Ni bibiri.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'amagambo acyanditseho ari mu mabara y'umukara avuga ati welikamu tu jiyesi Nyagatare nolegi izi welifi, iruhande rwacyo hari abanyeshuri ndetse n'abandi bantu bari gutambuka.

Icyumba kirimo intebe zisa umutuku ndetse n'izisa ubururu. Hasi hubakishije isima isize ibara ry'ubururu, umuryango w'icyo cyumba urafunguye.

Icyapa cyanditseho amagambo manini ari mu nyuguti eshatu arizo sa, e na ta, ni isomo ryiga kuri siyansi.

Amarate atandukanye; gome, agacongesho ndetse n'igikoresho babibikamo, birambitse ahantu ku meza, ibi bikoresho kandi byifashishwa n'abantu biga imibare.

Abagabo babiri bambaye impuzankano z'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa bari kumwe n'abana bambaye inifomu ndetse n'udupfukamunwa tw'umweru bahagaze imbere y'inyubako.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, harimo ikereyo, umukasi, ibitabo ndetse n'igikoresho byifashishwa mu gutera garafeze birambitse ahantu ku meza.

Icyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho byifashishwa mu kugira ngo imyigire igende neza, harimo ibibaho bitatu, intebe nyinshi z'ubwoko butandukanye, ameza ndetse harimo n'urugi rufite irange ry'ubururu.

Inyubako ebyiri zirebana, imbere y'izo nyubako hari abantu batandukanye. Abana ndetse n'abantu bakuru, bamwe muri bo bazamuye amaboko ku ruhande rwabo hari abandi bafite raputopu ndetse na bafule.

Abanyeshuri bicaye ndetse hari n'abandi bahagaze, bambaye inifomo zisa ndetse bicaye muri jaride munsi y'ibiti.

Abanyeshuri batatu ndetse n'umugabo umwe wambaye ikositime ndetse mu imbere yambariyemo ishati y'umweru arimo guha ibihembo aba banyeshuri batsindiye, inyuma yabo hari undi muntu uhicaye.

Abanyeshuri bambaye imipira iri mu ibara ry'umutuku. Harimo uwambaye agatambaro gasa umukara. Baricaye, baratuje, bari gukurikira, imbwirwaruhame iri gutangwa n'umuyobozi wabo.

Inyubako ifite imireko y'ubururu ndetse n'amadirishya yubururu izengurutswe kandi n'inkingi ziri mumabara y'umutuku, iruhande rwabyo hari ibiti bigiye bitandukanye hari n'urunsinga rw'amashanyarazi rujyana umuriro muri iyo nyubako.

Itente ifite amabara: umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu. Hicayemo abagabo ndetse n'aba mama. Hari umugabo uhagaze ufite urupapuro mu ntoki ze ndetse n'indangururamajwi. Ari kuvuga ijambo arigeza ku bantu bamwicaye imbere.

Umugabo wambaye ijire uri kureba muri terefone ahagaze imbere y'ikigo cy'amashuri iruhande rw'iyo nzu hari ikigega gifite ibara ry'umukara.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri ndetse n'abarezi abanyeshuri bambaye impuzankano ya unifomu baricaye bateze amatwi ibyo abarezi babo barimo kubabwira. Hirya yabo hari ikibaho kiriho ibishushanyo.

Abanyeshuri, abasore ndetse n'inkumi bahagaze batuje, imbere yabo hari umuntu wambaye impuzankano ya Polisi bisa nk'aho hari ijambo arimo kubagezaho, baratuje, barakurikiye, bahagaze munsi y'ibiti bitanga akayaga.

Abanyeshuri bambaye inifomu zisa mweru ndetse n'ubururu, bahagaze ku kumurongo bose bateze amatwi urimo kubagezaho imbwirwaruhame.

Inyubako irimo ibikoresho bijyiye bitandukanye, harimo kandi n'abantu bambaye amajire ari mu mabara atandukanye. Barahagaze barakurikiye hari ibyo baje kuhigira bizabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umunyeshuri wambaye inifomo ndetse wambaye n'umupira usa icyatsi, arimo guhabwa ibitabo ndetse n'amakaye barimo kumushimira kuko yitwaye neza agatsinda amasomo ye neza.

Umugabo wambaye imyenda y'imikara ahagaze imbere y'abanyeshuri bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, hari abambaye imipira y'icyatsi n'amakanzu ya shokora, hari n'abambaye imipira y'imikara ndetse n'amapantaro ya shokora.

Umugabo wambaye ishati isa umweru ndetse n'ijire isa umukara. Ahagaze imbere y'abanyeshuri bambaye iniforume zisa. Zirasa umweru ndetse n'ivu iruhande rwabo hari amazu menshi akurikiranye.

Abanyeshuri biganjemo abasore, abakobwa barangije amashuri yabo. Barishimye bambaye amakanzu ndetse bamanitse ibiganza bigaragara nkaho hari ikintu bari kurahirira.

Inyubako ikorerwamo inama. Hicayemo abantu benshi batandukanye, imbere yabo hari impapuro ndetse imbere hari ibitambaro biri mu madarapo y'Ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako ifite imiryango ifunze, imbere ku miryango hari icyapa cyanditseho amagambo agira ati faburike dekoreshoni sitidiyo, bakoreramo ibikorwa bijyanye no gufotora, gutunganya indirimbo ndetse n'ibindi bijyana nabyo.

Abakobwa ndetse n'abahungu bicaye mu ntebe zifite ibara ry'icyatsi, bamwe barakurikiye abandi barahuze bari kwandika mu makaye yabo.

Abakobwa ndetse n'abasore bari gutambuka, bamwe bafite amakayi abandi bafite telefone, umwe afite laputopu bari kugenda birasa nk'aho bagiye kwiga, biga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda.

Abakobwa batatu bose bambaye imipira y'umweru ndetse bafite na baji z'ubururu, imbere yabo hateretse amazi yo mu bwoko bw'Inyange bari gukurikira, inyuma yabo kandi hari abandi bantu na bo bari muri iyo nama.

Umuryango ufunze mo imbere harimo abantu bicaye, imbere ku muryango handitseho ka hashi silo wani ni nimero iranga uwo muryango.

Ibikoresho bitondetse mu tubati bikozwe, bikozwe mu ibumba, ibindi bikozwe mu biti, bikorwa n'abantu biga ibijyanye n'ubugeni ndetse n'ubukorikori.